Ikivunge cy'abantu bari ahantu mu kabari, hagaragara amatara menshi aba acana kandi yizengutsa, hari umuziki aho abantu baba bishimye bambaye imyambaro yo gusohokana, akenshi iba ari migufi kandi ibabereye, aha bikorwa n'abantu basohotse bagamije kwishima bakishyura amafaranga.

Bare cyangwa akabari kaba ari ahantu hari inyubako hagenewe kwakirwa abashyitsi n'abakiriya, aha abantu bashaka kwiyakira no kunywa ibyo kunywa bisembuye cyangwa ibidasembuye bajyayo bakakigwa bakishyura amafaranga, bitumaga igihugu cyangwa se n'ahandi bantu biteza imbere kuko bitanga akazi n'imisoro.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bwo gucuruza ibyo kunywa byiganjemo inzoga z'ubwoko bwose, ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye. Bakaba bakira abantu baje kwishima no kunywa, ubundi bakishyura amafaranga. Bituma nyir'umushinga cyangwa bisinesi yiteza imbere, kandi n'abakozi babonyemo akazi bakabona ihaho.

Icyokezo cyokerezwaho inyama, n'ibindi bintu byo mu bwoko bw'inyama, aha hari kokerezwaho ifi, kimwe mu bintu bikundwaga cyane, mu mahoteli no mu maresitora, mu tubari n'ahandi, aha ifi irotswa ku muriro igasha, ibirungo byayo, ubundi abafite amafaranga bakishura.

Bare cyangwa akabari ahantu hagenewe kwiyakirirwa, aho abaturage baza kunyweramo ibyo kunywa ibisembuye cyangwa ibidasembuye. Ujyayo ubundi bakishyura nyuma bakakigwa, bagataha bishimye haba hariho umuziki n'amatarara yaka neza.

Inyuba ko imeze neza yubatse itatse iriho n'amatara, ikorerwamo ubucuruzi bwo gucuruza inzoga , cyangwa ibindi bintu nk'ibiryo byiza, bikaba bizwi nka resitora Hoteli cyangwa akabari , akaba ari ahantu abantu baza kuyakirira bakishura amafaranga bagendeye ku byo bakosomye.

Bare cyangwa resitora ,ahantu abantu bajya kwiyakirira bagahabwa icyo kunywa n'ibyo kurya ubundi bakishyura. Ibi bikorwa mu mijyi no mu dusantere, aho abantu bajya kwiyakira nyuma bakishyura amafaranga. Bituma ba nyiri akabare biteza imbere ndetse n'abaturage bakabasha kwishima.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso; imodoka ikoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu ariko ikaba ari imodoka itwara cyane cyane imizigo kuko kuko ifite imyanya itatu gusa ugaragaza inofoto agaragaza imihanda ndetse n'amazu y'ubucuruzi ku ruhande rwayo.

Inzu y'ubucuruzi iherereye ku muhanda ,ikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga cyangwa se ibyo kurya, bikaba ari kimwe mu bintu bituma nyirabyo atera imbere, kuko inzoga zirakundwa cyane ,kandi zigira inyungu, aha, abantu bashaka kwiyakira ,baragenda bakajyayo bakabaha aho kwicara ,bakabakira babaha icyo kunywa, nyuma bakaza kwishyura amafaranga.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, bwiganjemo ibyo abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi. Abacuruzi bajya kubirangura mu mijyi n'ahandi, biva kure ubundi bakabyegereza abaturage, bituma abaturage babona ibyo bakeneye hafi kandi n'abacuruzi bakiteza imbere.

Igipangu cyagwa geti akaba ari urugi runini cyane ruza ku gipangu cyangwa urugo, rukaba rukorwa mu cyuma, mu birahuri. Akaba ari kimwe mu bintu bituma urugo rusa neza, akaba ari urugi rwiza cyane rugaragara kenshi cyane mu mijyi no ku nzu z'abakire.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa biciriritse, abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, aha hari inzu icururizwamo ibirayi bivanwa mu mirima aho byahinzwe, bikegerezwa abaturage bituma babona ibyo kurya bitabagoye, ikindi kandi abacuruzi na bo bibateza imbere binyuze mu mafaranga bakura mu byo bagurishije.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa birangira cyangwa se byamamaza ibikorwa bitandukanye. Hakaba hari ibishusho cyangwa se ibibumbano byambitse imyenda, bituma abakiriya babireba ukuntu yababera baramutse bayambaye. Bibituma abakiriya babikunda, bakaza guhaha iyo myenda cyane cyane.

Inzu ziri ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, ndetse hakaba hari n'akazu cyangwa se umutaka ucururizwamo serivisi za Emutiyene zirimo: kubikura, kubitsa ,kohereza amafaranga, kugura amayinite, umuriro no kwishyura amazi, ndetse n'izindi zituma uyu muntu yiteza imbere ndetse n'abaturage bakabona serivisi biboroheye.

Inzu y'ubucuruzi, ahantu hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage higanjemo, ibikoresho byo mu rugo ndetse, n'iby'ubwubatsi, aha hacururizwa ibintu byinshi cyane bitandukanye, abacuruzi babyo bajya kubirangura ku nganda cyangwa ahandi hantu birangurirwa, bakabyegereza abaturage bituma imirimo y'abaturage igenda neza.

Urujya n'uruza rw'abantu, ruba ruri kujya mu kazi n'ahandi hantu. Impande ku muhanda hari amazu y'ubucuruzi, ndetse n'abamotari batwara abagenzi babajyana ahantu hatandukanye, hakaba hari amazu ndetse n'ahandi hantu hatangirwa serivisi z'itumanaho hazwi nko ku mutaka ,cyangwa ku kazu ka emutiyene.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi butandukanye ,aha hari iduka rikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu biciriritse abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi ,iruhande hari indi nzu icuruza imiti y'abantu, abarwayi baba barwaye bajya kugurirayo imiti bakabasha gukira ubuzima bugakomeza.

Etajeri ni igikoresho gikorwa mu mbaho, kikaba gishyirwa mu nzu z'ubucuruzi. Kikaba gikoreshwa mu gupanga cyangwa se kubika neza bimwe mu bicuruzwa. Bituma abakiriya baza babireba kandi bikorohera n' umucuruzi, kubikura aho yabibitse abasha kubihereza abakiriya.

Inzu ya etaje y'ubucuruzi iba ku muhanda. Igira ubucuruzi butandukanye butanga serivisi nyinshi cyane. Hakaba hakorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho, cyangwa izindi serivisi nk'izo gutanga ibyangombwa byo muri Leta n'ahandi.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda zicuruza ibintu bitandukanye higanjemo imyenda, aho hari amashusho cyangwa ibibumbano byambikwa imyambaro, kugira ngo abakiriya banyuraho babone uburyo iyo myambaro ibereye abantu, maze bikabakurura bigatuma bajya kuyihaha.

Inzu y'ubucuruzi izwi nka butike icururizwamo ibintu bitandukanye, byiganjemo ibikoresho abaturage bakoreshaga mu buzima bwa buri munsi n'ibindi bakenera mu rugo higanjemo ibikoresho by'isuku, ibyokurya ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibikapu, intebe, amabase n'ibindi byinshi.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye, byiganjemo iby'isuku nk'indobo n'ibindi bigega bibika amazi .Hagaragara n'inkweto zizwi nka bote, akaba ari inkweto zikoreshwa cyane cyane n'abantu bajya ahantu bashobora gukomerekera, haba ahantu hari gukorerwa ibikorwa byo kubaka mu bishanga n'ahandi.

Inzu ziherereye ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, bakaba bacuruza ibikoresho abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, byiganjemo iby'amasuku, ibyo kurya n'ibindi aha kandi hacururizwa na serivisi zindi zitandukanye, abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Umucuruzi ucuza imyambaro, hakaba higanjemo inkweto, amaoti, amapantaro n'ibindi, bakaba bashyira ibibumbano cyangwa ibintu by'ibishushanyo bambika imyenda, bitumaga abakiriya bayireba bakayikunda, kuko iba igaragara yambuye.

Inzu y'ubucuruzi, aho bacururiza ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu mashanyarazi. aha, haragaragara insinga n'izindi piyesi zikoreshwa mu kwensitara umuriro w'amashanyarazi.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, bwiganjemo ubwo ibintu abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi. Aha haba hari ibicuruzwa by'isuku, ndetse n'ibyo kurya. Hanze haragaragara igikoresho kizwi nka kandagirukarabe kimwe mu bintu bituma habaho isuku.

Inzu z'ubucuruzi ziri muri karitsiye cyangwa ku muhanda, zicuruza ibintu abaturage bakenera ,byiganjemo ibyo kurya nk'imboga, n'imbuto ndetse n'ibindi bikoresho bakenera mu rugo by'amasuku, nk'amasabune ndetse hakaba hari n'amabase, ibikosi n'ibindi bintu byinshi, akaba hatangirwa serivisi zindi zitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ziherereye ku muhanda, zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, bwiganjemo ibyo abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, nk'ibikoresho by'isuku, ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bituma ubuzima bwa bo bugenda neza.

Inzu z'ubucuruzi ziba ziri ku muhanda aho abacuruzi bashiramo ibintu abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi byiganjemo: ibyokurya, ibikoresho by'isuku, n'iby'ubwubatsi, n'ibindi bituma byoroherwa mu baturage kubona, ibyo bakeneye n'abacuruzi bakiteza imbere.

icyu giherereye ku muhanda kirangiraga igikorwa runaka gikorerwaga ahantu runaka aha haragaragara icyapa kigaragaza ahantu hatangirwaga serivisi yo kwambika abageni cyangwa kudekura ahandi hantu mu birori bisanzwe ukaba ugenda ukishyura n'amafaranga bakaguha serivisi ushaka mu birori bitandukanye

Ku muhanda hari urujyauruza rw'abantu bari mu mirimo itandukanye, ndetse hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi buciriritse, abamotari bategereje abagenzi, bituma batwara abagenzi babajana aho bagiye, bakabishyura amafaranga, korohereza abaturage mu ngendo zabo, ndetse n'abamotari bakiteza imbere, bagateza imbere n'umuryango wabo n'igihugu muri rusange.

Urujya n'uruza rw'abantu ruri mu mujyi rukaba rufite amagare, moto ndetse n'ibindi bitwara imizigo. Hakaba hari ahakorerwa ubucuruzi, ndetse hari n'inyubako izwi nka etaje nini cyane igeretse. Ikorerwamo ubucuruzi bwinshi butandukanye, kubera ko ari nini cyane. Ikaba ikorerwamo hoteli, amaresitora, ubucuruzi bw' ibintu biciriritse, amasuku n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda icuruza ibintu bikenerwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, higanjemo ibyo kurya n'ibyokunywa, aha hari amazi azwi nka jibu amazi yo mu ruganda, aho abaturage baza kugura ikidomoro cyangwa se ijerikani y'amazi, bakayishyira mu rugo bakajya babasha kuyanwa. Hari n'umutaka wa emutiyene ubaho umwagenti utanga serivisi za emutiyeni.

Ubucuruzi buciriritse, bucuruza amafunguro yo mu gitondo ,nk'icyayi , amata, n'umugati .Aha hakaba abaturage baza bakabijyana mu rugo kubinywerayo, cyangwa bashaka bakabira aho bakishyura amafaranga, bituma boroherwa mu kazi kabo.

Inzu z'ubucuruzi buciriritse ziherereye ku muhanda, zikaba zicururizwamo ibintu abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, nk'amakara, ibirayi n'ibindi byo kurya, ibikoresho by'isuku n'ahandi. Abacuruzi bajya kubirangura mu mujyi cyangwa mu masoko bakabyegereza abaturage, bituma babona ibyo bakeneye biboroheye, ndetse n'abacuruzi bakiteza imbere.

Icyapa kinini kiri ku muhanda kirangira abantu ahari pariki y'ibirunga, ibagamo inyamaswa zikundwa cyangwa se zizwi nk'ingagi, aho zisurwa na ba mukerarugendo bakishyura amafaranga y'amanyamahanga azwi nk'amadovizi, atuma igihugu gitera imbere kikabasha no guteza imbere abaturage bacyo bakubaka ibikorwa remezo.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibicuruzwa biciriritse, bikenerwa n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, byiganjemo ibyo kurya n'ibikoresho by'isuku, aha hari umusaruro w'ibirayi wakuwe mu murima wazanwe aha utuma abaturage babonera ibirayi hafi kuko baza kugura ibyo barya ku kilo, bakishyura amafaranga bakabona ibyo kurya n'abacuruzi bakiteza imbere.

Icyapa kinini cyo ku muhanda kirangira abantu, aho bagomba gushakira serivisi .Aha hari icyapa kinini giherereye ku muhanda, kigaragaza ko aha hari inzu zicumbikira abashyitsi baje bagana, aho hantu bishyura amafaranga ubundi bakamaramo iminsi mike ,ahwanye n'amafaranga bishyuye ubundi bakagenda.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ndetse hari n'akazu cyangwa se umwagenti wa emutiyeni utanga serivisi zirimo kubikura, kugura umuriro, gutanga amayinite, n'ibindi bituma yiteza imbere, kuko haba hari urujya n'uruza rw'abantu banyura hafi ku muhanda, kandi yorohereza n'abaturage kubona izo serivisi kubera uwo mucuruzi.

Akazu k'umwajenti kaba gaparitse ku muhanda cyangwa mu gasantere, kaba ahatangirwa serivisi za emutiyeni zirimo kubikuza, kohereza amafaranga, kugura amayinite, umuriro, kwishyura amazi n'ibindi byinshi bikorerwa kuri emutiyeni, hicaramo umuntu ubundi akajya atanga izo serivisi navuze haruguru agahembwa.

Icyapa kinini kigaragaza igikorerwa cyangwa se serivisi zitangirwa ahantu runaka. Aha biragaragara ko hari icyapa kigaragaza ahantu hakorwa keke kinini zifashishwa mu birori nk'amasabukuru y'amavuko cyangwa se mu bukwe. Ibi bikorwa mu gihe umuntu yatanze komande, bakamuha ibyo kunywa n'izi keke akishyura amafaranga.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi buciriritse. Hakaba higanjemo ibyo kurya n'izindi serivisi abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi. Izi nzu zubakwa ku muhanda, abacuruzi bakazikodesha bakishyura amafaranga. Na bo bagacuruza bikabungura.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi izwi nka kenkayori, ibamo ibikoresho bikenerwa mu gihe cyo kubaka nk'amaferabeto, imisumari, sima, n'ibindi byinshi cyane. Aha bakaba babizana babikuye mu mujyi bikegerezwa mu baturage ku buryo umuturage ushaka kubaka abona ibikoresho bimworoheye.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibikoresho bikoreshwa mu kubaka byiganjemo imisumari, amatiyo, ferabeto n'ibindi byinshi, ndetse n'imyambaro abafundi cyangwa se abandi bakozi bakoresha, igihe bari kubaka. Irimo ingofero, inkweto, amasarubeti, amajire n'ibindi. Bikaba ari kimwe mu bintu bituma badakomereka.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo imyenda, ibikapu n'ibindi, abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, ibi ni ibikoresho abaturage bakoresha bakaba babigura ku masoko, bikaba abacuruzi bajya kubirangura bakabyegereza abaturage bituma imihahirane yoroha.

Inzu z'ubucuruzi ziherereye ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, bwiganjemo ibyo abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi harimo ibikapu, inkweto ,ubudomora cyangwa indobo n'ibindi bikoresho by'isuku . Aha hacururizwa kandi n'ibiribwa nk'imboga n'ibirungo bituma abaturage baroherwa.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aha hari ibyapa bigaragaza ko hakorerwa serivisi zijyanye n'iby'ikoranabuhanga, ndetse n'ubukanishi. Aho abaturage bajyana ibyuma byabo byangiritse kubikoresha, nka telefoni, radiyo, televiziyo n'ibindi, ndetse hari n'aho bacururiza bimwe muri ibyo bikoresho.

Inzu ziherereye ku muhanda zikorerwamo ubucuruzi buciriritse, aha hatangirwa serivisi abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, hacururizwa ibiryo umuceri, amavuta ndetse hakaba n'ibikoresho nk'inkweto n'ibindi by'isuku nk'amabase, indobo n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi buciriritse ziri ku muhanda ,zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, bwiganjemo ibyo abaturage bakoresha buri munsi, n'ibyo bakenera nk'ibyo kurya ,ibyo kunywa ,ibikoresho by'isuku n'ibindi ,hari akazu gacuruza serivisi za eyateli, akaba ari ikigo cy'itumanaho, akaba abantu bakenera amayinite, kubikuza n'ibindi.

Inyubako cyangwa etaje ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Ikaba ari inyubako igeretse, yubatsemo amazu menshi ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho hatangirwa serivisi nyinshi, hagacururizwa ibintu hashobora no kujyamo akabari hoteli n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda, ahantu hamanikwa ibyapa bigaragaza serivise zitangirwa ahantu runaka, ndetse n'ibindi byapa byamamaza ibindi bikorwa. Hakaba ahangaha hakorerwa ubucuruzi butandukanye, kuko horoheye abantu kuhagera kubera ko ari ku muhanda.

Kinini kirangira abantu aho bakura serivisi, kikaba gishyirwa ku muhanda, ku masoko, ndetse no ku mazu ahantu abantu benshi bashobora kukibonera. Kikaba kibaho ibijyanye n'uko babona aho hantu, ndetse hakaba hari n'ibishushanyo bigaragaza ibihakorerwa nk'uburiri, ibyo kurya n'ibindi.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa ,cyangwa undi mushinga ukorerwa ahantu, kikaba ari icyapa kirangira abakiriya aho bajya gushakira serivisi, hakaba hagaragara icyapa kigaragara ko hacururizwa icumbi ,abantu bajyayo bakishyura, bagacumbikirwa bagahabwa icyo kurya n'icyo kunywa.

Inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye byiganjemo, amavuta yo kurya cyangwa ayo kwisiga n'ibindi bintu, ibikoresho by'isuku nk'amasabune n'ibindi, amata yo kunywa n'ibindi byinshi cyane, hakaba abaturage baza guhahiramo, hakaba ari hamwe hagaragara nko ku gasatere cyangwa mu mujyi.

Isoko ryiganjemo ibiribwa by'imboga n'imbuto, hakaba abaturage baza guhaha ibyo bakeneye ndetse n'abacuruzi bajya kurangura mu cyaro no mu mirima, ahantu hahingwa izi mboga n'imbuto bakabyegereza mu mugi no ku masoko, bituma abantu batabasha guhinga, babona ibyo kurya biboroheye n'abacuruzi n'abahinzi bakiteza imbere.

Urukwavu kimwe mu matungo magufi, rwororerwa mu rugo kandi rukaba rutanga umusaruro ushimishije kuko inyama zazo ari kimwe mu nyama zihenze ku masoko, kuko zirakundwa mu tubari, mu mahoteli n'ahandi.

Isoko cyangwa ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibikoreshwa mu rugo mu isuku, harimo indobo, amabase n'ibindi, hakaba hari ibikapu, imyenda, n'ibindi bintu abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, ibi ni ibintu abacuruzi bajya kurangura mu mujyi, cyangwa ahandi hantu, ubundi bakabyegereza abaturage, nabo bakabibonamo amafaranga.

Igihaza, igihingwa gikungahaye ku bitera imbaraga umubiri w'umuntu, iki ni igihingwa cyerera hasi kiranda, kikaba cyerera rimwe ibihaza byinshi icyarimwe, bikaba bituma umusaruro wacyo uba mwiza cyane ku bahinzi, kuko bagikuramo amafaranga menshi atuma biteza imbere, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imigati ikaba ari ubwoko bw'ibiribwa bikorerwa mu nganda, bikaba bikunda kuboneka ku mafunguro ya mu gitondo, aho bayinywesha amata cyangwa se icyayi, yewe n'igikoma. Ikunda kuboneka muri za arimantasiyo, aho abanyamagare bajya kuyirangura, ubundi bakayitembereza mu baturage.

Isoko akaba ari ahantu hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Aha hagaragara imyenda, ibikoresho by'isuku, ndetse n'ibindi byinshi cyane, haba hari urujya n'uruza rw'abantu, abaje kugurisha n'abaje kugura, abacuruzi baba bararanguye, bagacuruza, bakiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho cyangwa se imyambaro y'abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. Aha ngaha abacuruzi bajya kuyirangura mu nganda cyangwa se ku yandi masoko manini ubundi bakayegereza mu baturage. Umuturage azana amafaranga akagura icyo akeneye yaba igikapu cyangwa se imyambaro akishyura amafaranga.

Ahantu hari ibicuruzwa byiganjemo ibikoreshwa mu rugo, mu isuku no mu guteka harimo ibikosi, amabase, amasahani, utumamiyo, rushe, ibyuma n'imihoro, n'ibindi, n'amapanu, bikaba ari ibikoresho abaturage bakoresha mu buzima bwa bo bwa buri munsi.

Isoko ry'ibitoki, hakaba hari ibitoki biribwa, bikaba bicuruzwa bikuwe mu cyaro cyangwa mu murima, abacuruzi bakabizana mu mujyi cyangwa mu isoko. Bituma abantu bakeneye ibyo kurya badahinga cyangwa batabifite biborohera, bakishyura amafaranga kandi n'abacuruzi bakiteza imbere.

Imyenda, amashuka n'ibindi bitambaro biri gucuruzwa. Ibi ni kimwe mu bucuruzi bukunda kugaragara mu masoko yegereye abaturage aho bacuruzi bajya kubirangura kure mu mijyi bakabyegereza abaturage na bo bakabasha kubona imyenda, amashuka n'ibindi bakeneye. Ubuzima bwabo bukagenda neza.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibintu bitandukanye bikoreshwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi, byiganjemo ibikoresho by'isuku nk'amabase, indobo, ibidomora n'ibindi ndetse habamo n'ibikoresho bindi nk'amasafuriya ndetse n'ibindi bintu byinshi abaturage bakenera. Biraborohera kuza kubihahira aha ngaha kuko abacuruzi babo baba barabiranguye kure mu mujyi.

Ibidomora cyangwa amajerekani, ibikoresho bikoreshwa mu kuvoma amazi cyangwa kuyabika. Bikaba ari ibikoresho biva mu nganda birimo amavuta yo kurya, maze yashiramo abaturage bakabyoza neza, bakajya babikoresha mu kubika amazi no kujya kuyavoma.

Ababyeyi baboha ibikoresho gakondo byitwa ibirago, bikaba ari kimwe mu bintu biranga umuco w'Abanyarwanda, kuko byakoreshwaga cyane cyane babiryamaho, ku byanikaho imyaka ,ndetse no mu bukwe byatangwagamo nk'impano ,bikaba ari kimwe mu biranga ubukorikori bw'Abanyarwanda.

Butike cyangwa inzu y'ubucuruzi bucuruza ubucuruzi buciriritse, hakaba habamo ibyiganjemo ibyo kurya n'ibyo kunywa abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi. Aha iyi nzu irimo ji cyangwa se imitobe y'abana, biswi, umunyu n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye ku gasantere, cyangwa ku isoko guhaha, hakaba ari ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, abaturage baba bakeneye bya buri munsi, byiganjemo ibikoresho, n'ibiribwa bakenera mu rugo iwabo, hakaba n'izindi serivisi za emutiyene cyangwa z'ikoranabuhanga, z'amayinite, kugura umuriro n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, n'amakuteri telefone cyangwa, cyagi, batiri n'ibindi, aha hacururizwa ibikoresho byinshi by'itumanaho, bituma abaturage babibona biboroheye, kuko abacuruzi bajya kubirangura mu mujyi nanga kure, bakabyegereza abaturage nabo bakabasha gukoresha ikoranabuhanga.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyambaro y'abagore iy'abagabo ndetse n'abana. Ikaba abacuruzi bajya kuyirangura mu mujyi cyangwa mu nganda maze bakabyegereza abaturage. Bituma abaturage babona imyambaro ku buryo buboroheye hafi yabo, ndetse n'abacuruzi bayo bakiteza imbere.

Cyangwa inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye aho hagaragaramo amoko y'ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibyo abaturage bakeneraga mu buzima bwa buri munsi: nk'amavuta yo kurya, ayo kwisiga, ibirungo, n'imiti bakoresha mu myaka, n'ibindi. Bikaba birangurwa bikabegerezwa kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Inzu y' ubucuruzi buciriritse, icururizwamo ibyo abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi, byiganjemo amafu y' igikoma, ifu y' ubunyobwa, amavuta yo kurya, inyanya n' ibirungo, ndetse bakaba babibona biboroheye kuko abacuruzi bajya kubirangura bakabibegereza, buri uko babishatse bakajya kuri butike guhaha bakishyura amafaranga.

Mu isoko ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye, aha haragaragaramo inkweto za bodaboda ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku, bikaba ari ahantu abaturage baza guhaha ibyo bakeneye nk'inkweto, amabase, indobo n'ibindi byose bakishyura amafaranga, bituma boroherezwa kandi n'umucuruzi akiteza imbere.

Ubunyobwa kikaba ari kimwe mu bihingwa bikundwa cyane, kuko kiribwa ku mafunguro ya benshi mu buzima bwa buri munsi. Bukaba bwera mu itaka nyuma bukaza kubeteshwa, hakavamo ifu ishyirwa mu biryo bikaryoha.

Isoko ry'imyenda n'inkweto akaba ari ahantu hacururizwa ibikoresho abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi. HIganjemo imyenda n'inkweto, nk'ingofero amakote n'ibindi. Abacuruzi bajya kubirangura mu mujyi cyangwa se ahandi hantu hunganira maze bakabyegereza ku masoko, aho abaturage babasha kubibona bitabagoye bakishyura amafaranga bakabona imyambaro.

Aho hacururizwa ibikoresho byo mu rugo byiganjemo iby'isuku ibyo gutekamo nk'amasafuriya, amabase, ibikombe, imyuko, indobo n'ibindi. Aha hacururizwa ibikoresho abaturage bakoresha mu buzima bwa buri munsi. Bazana amafaranga bakabigurira kuri uyu mucuruzi wagiye kubirangurira mu mujyi cyangwa hanze y'igihugu.

Isokoo ricuruza ibintu bitandukanye hakaba higanjemo umusaruro w'inyanya cyangwa se imbutoko. Akaba ari kimwe mu bintu byera cyane kandi bikundwa ku masoko kuko usanga henshi mu Rwanda. Mu cyaro no mu mujyi izi nyanya ziboneka ku mafunguro y'abaturage akaba ari kimwe mu bintu bituma abahinzi bazo babonamo amafaranga menshi.

Isoko, ahantu hacururizwa imbuto. Inyanya, pwavuro na seleri n'ibindi. Haba ari ahantu abacuruzi bajya gushaka izi mboga mu cyaro, cyangwa ku bahinzi. Ubundi bakazizana mu mujyi no mu gasantere, mu isoko kuzigurisha. Abatazifite bakazigura. Bituma abacuruzi biteza imbere. Ikindi kandi izi mboga zituma abaturage bagira ubuzima bwiza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi buciriritse bwiganjemo ibikoresho abaturage bakoresha mu buzima bwa buri munsi nk'amavuta yo kurya nayo kwisiga, umunyu n'ibindi birungo. Ndetse batanga na serivisi ya emutiyeni nkuko bigaragara.

Ahantu hari ibicuruzwa byiganjemo ibikoreshwa mu rugo mu masuku no mu bindi harimo:amabasi, indobo, amasahani n'ibindi, ibi biva kure mu mijyi cyangwa ku nganda maze abacuruzi bakabirangura bakabyegereza abaturage, bituma abaturage babona ibikoresho hafi yabo ndetse n'abacuruzi bakiteza imbere.

Urujya n'uruza rw'abantu rwahuriye ahantu mu isoko, hagurishwa ibyiganjemo ibyo kurya. Aha hakaba abaturage ari bo babasha guhaha ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi. Ndetse haba abacuruzi baje kurangura imyaka, na bo bakaza kubigurisha abaturage, bituma biteza imbere, ndetse n'abaturage bakoroherwa kubona ibyo kurya.

Ububiko bw'amasanduku, akaba ari ahantu twakwita nka sitoke, cyangwa aho babika ibikoresho bitegerejwe n'abakiriya ngo babigure. Akaba ari isanduku, igikoresho kibazwa kugira ngo kizahambwemo imirambo y'abantu bapfuye.

Ubukorikori cyangwa se umurimo wo gusana ibyangiritse，higanjemo ibikoresho abaturage bakoresha mu buzima bwa buri munsi， nk'amasafuriya n'ibyuma bindi，aha umuntu aba yarabyize， maze bakajya babimuzanira akabisana， kugira ngo bongere babikoreshe，bituma abaturage borohegmrwa， ndetse na nyiri kubikora akunguka.

Isoko ryubatse mu buryo bwa etaje, hacuruzwa ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto, aha abacuruzi bajya kurangura mu cyaro cyangwa ku bahinzi izo mbuto n'imboga, maze bakabijyana kuri iri soko bituma abantu bo mugi badahinga babona ibyo kurya hafi, kandi n'abacuruzi bakiteza imbere n'abahinzi na bo bakiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi bucuruza inkweto zifunze zikaba ari inkweto zikorerwa mu nganda za kijyambere, hakaba kandi izi nkweto zirangurwa mu mijyi n'ahandi hantu hari izo nganda maze abacuruzi bakazizegereza abaturage hafi aho mu masoko no ku masantere. Bakazigurisha bituma abaturage babona inkweto ku buryo buboroheye ndetse n'abacuruzi bakiteza imbere.

Isoko ry' ibiribwa ricururizwamo ibiribwa n'imboga, hakaba abacuruzi bajya gushaka ku bahinzi ibiribwa bakabijyana mu mujyi cyangwa mu isoko bituma abantu badashobora guhinga baza kubigura, bakabona ibyo kurya biboroheye kandi n'abacuruzikiteza imbere.

Iduka cyangwa inzu y'ubucuruzi, icuruza ibintu byinshi bitandukanye abantu bakenira mu buzima bwa buri munsi, higanjemo ibikoresho byo mu rugo, nk'amasabune, amavuta yo kwisiga, n'ayo kurya n'ibindi bikoresho by'isuku, ndetse hakaba harimo n'ingufuri zikoreshwa mu gufunga inzu, kugira ngo abasambo cyangwa ibindi bintu bitinjiramo.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye ,byiganjemo imboga n'imbuto n'ibindi biribwa. Aha haba hari ibiribwa bigurishwa kuri make kuko abacuruzi bajya kubirangura ahantu byeze bakabyegereza mu baturage cyane cyane mu isoko bakagurisha kuri make make .Ayo ufite ,uragenda bakaguha ibingana n'ayo ufite ,kandi ibi biteza imbere kandi bigatuma abaturage babona ibyo kurya hafi.